Ikawa ni igihingwa ngandurarugo, abahinzi bacyo baragisasira ku gihe cy'izuba kugira ngo imizi ikomeze kuba ahantu hatoshye, hari amazi, bitewe n'uko bya byatsi bituma hasi mu butaka hagumamo ubuhehere.

Mu nzu zicururizwamo inyongeramusaruro, imirama, ndetse n'izindi mbuto, haba harimo utubati turimo amashashi, cyangwa ibikarito birimo iyo mirama, n'izo nyongeramusaruro. Bigafasha mu kubishyira ku murongo, ku buryo uje kubiyigura, ahita abibona, mu buryo bumworoheye.

Ubuhinzi mu Rwanda ni inkingi ya mwamba kuko abaturage benshi batunzwe n'iyo mirimo, hari abahinga intoki, abandi bagahinga amashu n'ibindi bigiye bitandukanye bagendeye ku cyera buri hantu, abantu babihuguriwe baraza maze bakerereka abaturage ibijyanye n'ubuhinzi, uburyo bakoresha ifumbire n'ibindi bigiye bitandukanye.

Mu gusukira ibigori, bifashisha ifumbire mvaruganda kugira ngo bizakure bishishe. Abayobozi bo mu nzego z'ibanze ndetse n'abasirikare bashinzwe umutekano w'abaturage, hari igihe bamanuka bakegera abaturage bo mu byaro, maze bakabafasha mu mirimo igiye itandukanye harimo no gusukira ibigori.

Tungurusumu yifashishwa mu guteka kandi igira umumaro ugiye utandukanye, iyo umuntu ayiriye imuvura indwara zinyuranye harimo nko kuribwa mu gifu n'ibindi umuntu atarondora, akenshi iyo uyiriye mu kanwa iyo idahiye isohora umwuka mubi kugira ngo rero wirinde icyo kibazo urayiteka kugira ngo nuyirya utaza kugira impumuro mbi mu kanwa.

Ubunyobwa akenshi iyo ubwitegereje uba ubona bumeze nk'uduti duto ariko iyo umuntu abutetse ariko yabuseyemo ifu nziza, buba bumeze neza kuko ubufatisha ibiryo kandi bukaba bugizwe n'intungamubiri zigiye zitandukanye, umuntu wese akeneye.

Utubati tw'umweru turimo ibikarito bigiye bitandukanye birimo imiti ikoreshwa mu buhinzi ndetse n'imbuto n'imirama. Hari kandi umugabo wicaye imbere ya mudasobwa, imbere ye hari umugore wambaye itaburiya y'umweru, uri guseka, ufite umusatsi w'umukara.

Hari ipombo zabugenewe bashyiramo umuti maze bagatera mu myaka bitewe n'indwara bashaka kuvura. Uyitera iyo miti agirwa inama yo kuba yambaye igisurubeti kugira ngo umuti utaza kumumenekaho, bityo ukaba wamwanduza.

Utubati dukozwe mu biti dufite ibirahure duteretsemo imiti yo mu buhinzi ndetse n'imbuto zigiye zitandukanye zifashishwa n'abahinzi, dusa neza kuko twakorewe isuku hejuru yatwo ndetse na ho hateretse andi macupa n'udukarito.

Ahenshi mu mazu acuruza imiti n'inyongeramusaruro iyo ugiyemo usangamo amapombo yifashishwa mu gutera imiti mu myaka, inyongeramusaruro, imiti yifashishwa mu kurwanya udukoko cyangwa ibindi byonnyi byangiza ibihingwa n'ibindi byinshi byifashishwa mu buhinzi.

Ibigori ni igihingwa cy'ingenzi kigirira akamaro abagihinze ndetse n'igihugu muri rusange. Iyo umuntu amaze kubisarura, aho yabikuye arahahinga akahateganyiriza kuhatera indi myaka. Si ngombwa ko ibiti byabyo abirimbura kuko iyo ateyemo ibishyimbo birandaho maze bikazakura bidasabye ko ashyiramo ibindi biti.

Mu buhinzi hifashishwa amafumbire agiye atandukanye cyane cyane ay'imimvaruganda. Hari aba afite ibara ry'umweru ndetse iyo umuntu agiye kuyatera mu myaka ye cyangwa agiye kuyakoresha akangurirwa kwambara uturindantoki kugira ngo ataza kumwanduza kuko uramutse uyariye cyangwa ukaba hari aho wayakozeho ukarigata ku ntoki, bishobora gutuma urwara cyangwa ugapfa.

Kugira ngo ubuhinzi butere imbere bisaba ko mu guhinga hakoreshwa amafumbire kandi agezweho, Ni ngombwa kandi ni byiza kuyifashisha kuko byongera umusaruro, uwahinze akazagira icyo akura mu buhinzi yakoze bukamubyarira inyungu bityo, bigatuma abasha kubwagura.

Ahantu hacururizwa imbuto, inyongeramusaruro n'imiti y'imyaka, usanga hari utubati tuba turimo iyo miti. Uba usanga ibyo byose biba biri mu macupa no mu masashi, bafata bagatekareka muri twa tubati, maze uje kuyigura akayibona imbere ye igaragara.

Akenshi mu byaro cyane cyane, uhasanga amazu acuruza imbuto n'imirama bigiye bitandukanye. Iba icuruza kandi n'imiti iterwa muri iyo mirama, haba harimo n'amapombo yifashishwa mu gutera imiti ndetse na rozwari zifashishwa mu kuhira.

Ahantu henshi cyane cyane ahaba ibikorwa by'ubuhinzi cyane iyo ugiyeyo usanga imirama ipanze mu tubati no mu dutageri, harimo n'imiti kandi yifashishwa mu kurwanya indwara zigiye zitandukanye zo mu bihingwa, haba hari n'abacuruzi bacuruza bize kandi basobanukiwe iby'iyo miti n'ikoreshwa ryayo.

Mu buhinzi hifashishwa ibikoresho bigiye bitandukanye. Hari ibyifashishwa mu kuhira ari byo bizwi nka rozwari. Biba bifite iminwa ndetse n'ahandi inyuma bavomera amazi n'umukondo bafata kugira ngo buhire mbese bavane amazi muri rozwari bayashyira aho bashaka kuhira. Akenshi uzisanga ku mazu acuruza inyongeramusaruro n'imbuto ndetse n'imirama ikoreshwa mu buhinzi.

Ifumbire mvaruganda ni ingenzi. Yifashishwa cyane mu gihe umuhinzi ari gusukira imyaka igiye itandukanye, hari n'igihe kandi bayikoresha mu gutera cyangwa mu kubagara imyaka kugira ngo izakure ishishe kandi itange umusaruro uhagije.

Nta kabuza ni ahangaha, nari ndi gushaka imiti nakoresha kugira ngo mbashe kwita ku bihingwa byanjye ariko mbonye aho kuyigurira, hari akabati k'umweru hateretsemo ibikarito n'amacupa arimo imiti igiye itandukanye, nimpagera neza ndareba iyo nkeneye maze ariyo ngura nyijyane.

Mu byaro ndetse no mu mijyi, iyo ugiye utembera mu masantere y'ubucuruzi usangamo ahantu hacuruza inyongeramusaruro ndetse n'imirama ikoreshwa mu gutera imbuto n'imboga bigiye bitandukanye. Iba iri mu tubati, ipfunyitse mu masashi cyangwa mu macupa y'ubwoko bugiye butandukanye.

Ifumbire y'imborera ikorwa bitewe n'uburyo umuntu ashaka, hari igihe bashyira mu kiraro maze ibyatsi inka cyangwa andi matungo akabikandagira, agashyiramo n'amasogororo maze bigahinduka ifumbire, hari n'igihe bafata ibyatsi bakabirunda ahantu hamwe bakamenamo amazi, maze bagataba, maze udukoko tukaza tukabicagagura bigahinduka ifumbire.

Utubaseri tw'icyatsi n'ubururu turogeje, mbese dufite isuku, duteretsemo imikebe umuntu yifashisha adaha ibiri muri utwo tubase, ni twiza ahantu duteretse hava izuba ryinshi.

Ibisusa nI imboga zimera ku gihaza twa barateye mu butaka, zigatembera hasi ari zo zizaho ururabo maze n'amababi yaje kuri iyo migozi iba iri gutembera hejuru ku butaka nayo ubwayo akaribwa.

Ubuhinzi ni inkingi ya mwamba yaba mu Rwanda no ku isi muri rusange, niyo mpamvu usanga hari amazu acuruza imiti irwanya ibyonnyi kandi ifite akamaro gakomeye cyane mu buhinzi.

Insina zeraho ibitoki, zihingwa ahantu hari amazi menshi kugira ngo zijye zera umusaruro uhagije. Ntiziba ziri zonyine kuko hari nubwo bazihinga ahantu hari pipinyeri y'ibiti cyangwa ibindi bintu bitandukanye kuko zo ntizibangamirwa no kuvangwa n'indi myaka.

Insina iyo waziteye mu byobo washyizemo ifumbire zikura zifite ibara ryiza ry'icyatsi, iyo uzitayeho ukazicira ukazimenera ku buryo zibasha gushora mu butaka bworoshye zitanga umusaruro mwiza uhagije.

Mu bishanga usanga hateyemo ibihingwa bigeye bitandukanye harimo nk'imigozi y'ibijumba n'ibindi, baba baragiye batunganya ubutaka maze bagahingamo ibyo bihingwa, kugira ngo ubwo butaka bubashe gutanga umusaruro uhagije niyo mpamvu bubanza gutunganywa.

Amasaka ni igihingwa ngandurarugo, abantu benshi iyo bayahinze akera yarayasarura maze bakayengamo: ubushera, ikigage cyangwa bakayakoramo ifu y'igikoma, ariko si ibyo gusa kuko no mu mayoga agiye atandukanye naho barayifashisha.

Insina zera ibitoki, akenshi ubu usanga zifite amababi yitwa amakoma mu kinyarwanda maremare, iyo atangiye gusaza ahindura ibara akaba umuhondo maze yasaza byanyabyo ukaba wayakuraho ukayacana kuko aba yumye.

Ibitoki iyo bimaze gukura bikera neza barabisarura maze bakabirunda hamwe bagategereza ko imodoka ivuye i Kigali cyangwa ahandi hantu iza ikabijyana, nta kabuza uwabyesheje akuramo amafaranga menshi amufasha mu kwikenura.

Ibihoho ni amashashi umuntu afata agashyiramo itaka ryiza ririmo ifumbire maze agashyiramo urugemwe runaka, cyane cyane iz'ikawa maze hashira igihe rugakura rukamera neza, akazafata rwa rugemwe akagenda akarutera mu murima aho ruzakurira maze rugatanga umusaruro.

Insina z'imibyari ni kimwe mu bihingwa abanyarwanda bakunda guhinga cyane cyane abo mu burasirazuba bagirango bajye babonaho umusaruro. Hari ibitoki byeraho byifashishwa mu kwenga inzoga bamaze kubikuramo imitobe n'ibitekwa mu ngo maze bikagaburirwa abantu mu buryo busanzwe.

Ubuhinzi bw'ibitoki ni ingenzi kuko bitanga ibintu byinshi bitandukanye, aho twavuga nk'imineke iribwa ndetse hari n'aho wabyengamo inzoga. Ibitoki kandi bishobora no kuribwa bikiri bibisi, ukabifata ukabiteka, ukabirya mu buryo busanzwe, wabitetse mu nkono.

Iyo ushaka guhinga ikintu runaka, utegura umurima wawe, ukawukoramo intabire isuku imeze neza, ugabacamo imirongo itwara amazi hagati y'umurima n'undi, kugira ngo atazaba menshi maze akarengengera imyaka uzaba wahinzemo.

Abaturage benshi basobanukiwe ibijyanye no kugeneka ingemye mu bihoho, ni yo mpamvu biremamo amatsinda, bakaza bagasobanurirwa uburyo bagemeka imbuto zigiye zitandukanye kugira ngo mu gihe kizaza zizabe zakuze bazitere, zitongera kubora zigeze mu mirima.

Ahantu hahingwa inyanya, usanga abahinzi bazo barakize kubera kubona amafaranga menshi, ni igihingwa giteza imbere ugikora, kuko ziba zikenewe cyane ku isoko, ushobora kuzeza ukazigurisha arimbisi bisanzwe, ariko ushobora no kuzigurisha inganda maze zikazikuramo izindi nyanya zisohoka zipfunyitse, zitunganyije, ziseye. Zera ku biti by'icyatsi bifite amababi y'icyatsi.

uruboga rwa shufureri ni rumwe mu zifite akamaro cyane ku baturage b'Abanyarwanda, bararurya kandi rurinda indwara zigira zitandukanye, si ibyo gusa ahubwo n'abaruhinga babasha kubona amafaranga menshi aruvuyemo kuko ni imboga zigurwa cyane ku isoko.

Kugira ngo umuntu akore ubuhinzi bwa kijyambere, bisaba kwita ku byo akoresha harimo nk'amafumbire n'ibindi bitandukanye, ntabwo wakweza udatera imiti mu myaka yawe, niyo mpamvu hari inganda zakoze imiti ndetse n'inyongeramusaruro ziba zipfunyitse mu mashashi.

Iyo woroye inka cyangwa andi matungo yaba amagufi n'amaremare, hari igihe ahura n'indwara bigasaba ko ujya ku bavuzi bavura amatungo bakaguha imiti igiyeitandukanye. Hari iba iri mu icupa ry'umweru rireberana hejuru hariho akanya umuntu ahashingamo urushinge maze agakuramo uwo muti urimo imbere akawutera itungo rirwaye.

Inkoko iyo zitaweho zigira ubuzima bwiza. Nyamara nubwo bimeze uko hari n'igihe zihura n'indwara zigiye zitandukanye, bigasaba ko baziha amazi n'indi miti itandukanye. Muri izo ndwara hari izituma zihuma cyangwa zikazipfura ubwoya zikazigiraho ingaruka nyinshi.

Imbwa zirakingirwe kugira ngo zitazajya zanduza abandi bantu iyo zibariye, cyane cyane mu bice byo mu mijyi, uhasanga abaganga b'amatungo baba barabihuguriwe ku buryo uzana imbwa yawe maze bakayitera inshinge zirimo imiti ituma igihe ikuriye utagira ikibazo.

Ubuhinzi n'ubworozi ni inkingi ya mwamba ku baturage, hari amazu usanga acuruza imiti iterwa inka mu gihe zagize ikibazo cyangwa bakaziyiha kugira ngo bazongere vitamine, iba akenshi iteretse mu tubati tw'umweru iri mu macupa cyangwa mu tujerekani.

Urukwavu ni itungo rigufi ririsha ibyatsi, akenshi bararyahira kuko batabasha kuriragira kandi barurekuye rukajya mu binani rwakona kandi ntirwamenya n'aho rutaha, iyo ni yo mpamvu ituma barushakira ibyatsi rukarira mu rugo cyangwa ahandi hantu barwegereye.

Mu mihanda yo mu rusisiro, akenshi imerwamo n'ibyatsi byinshi bikayitsira, niyo mpamvu abaturage bafata umunsi umwe bakaza bakayiharura, bakusanyirijwe hamwe, cyane cyane mu gikorwa cyakwitwa nk'aho ari umuganda.

Ahantu henshi mu misozi cyangwa hategereye amazi, ku zuba abaturage bafata umupira maze bakawushyira mu mazi, aho ari cyane cyane iyo ari kure maze bikabafasha mu kuhira imbuto zigiye zitandukanye mu gihe cy'izuba.

Mu byaro uba usanga hari ubutaka ahantu hamwe na hamwe butera, neza ukabona buhinzeho imyaka idashamaje nk'ibiti bya avoka, imyumbati n'indi, ariko cyane cyane idasaba ifumbire nyinshi kugira ngo yere.

Akenshi usanga mu byaro bagenda bahinga imboga mu turima tw'igikoni, bikabafasha guhangana n'indwara zigiye zitandukanye zirimo izijyanye n'imirire ituzuye niyo mpamvu abaturage bubaka uturima tw'igikoni bakoresheje ibikori n'ibiti bito bagafatanya bose nta n'umwe usigaye inyuma.

Mu cyaro cyane cyane ku bantu batasobanukiwe ibintu bijyanye n'ubuhinzi bwa kijyambere usanga bahinga bavanga imyaka, bagatera ibishyimbo bakavangamo ibigori ndetse n'ibirayi icyarimwe batabitandukanyije cyangwa ngo babibusange.

Hari ubwoko bwinshi butandukanye bw'ifumbire, hari izikoreshwa intoki, hari n'iziva mu matungo ndetse hari n'imvaruganda, ariko ari izo mu matungo n'izikoreshwa intoki cyangwa bakarunda ibitaka n'ibyatsi bakabivanga bagasukamo amazi n'udusimba dufasha mu gushwanyaguza bya byatsi, zose tuzita ifumbire z'imborera.

Intoryi zihingwa haterwa urugemwe maze zigakura, zikaba ndende zigahagarara maze zikaraba, hakazaho akabuto gato, ariko gakura kagahinduka urutoryi ruribwa. Ni byiza kuzirya, kandi abahinzi bazihinga zirabungukira cyane kuko bazigurisha bakabonamo ubushobozi bwo kwiteza imbere mu bindi, ariko na none zikaba zaribwa no mu ngo zabo.

Mu bishanga, usanga hatunganywa, maze hagaterwamo imyaka igiye itandukanye, ikera neza kuko iba yuhirwa. Ahaba hari ibigunda cyangwa imishike idahinze, abaturage barahatunganya maze na ho bagateramo imyaka.

Mu buhinzi bwa kijyambere busigaye bukoreshwa cyane mu Rwanda kuri iki gihe, usanga hitabwa ku bintu byinshi bitandukanye, hari nko kuyobora amazi kugira ngo atazajya yonona ibyahinzwe ndetse no kwita ku kurwanya isuri mu mirima, niyo mpamvu abahinzi benshi bahuguriwe uburyo bazajya bahinga baciye imirongo mu buryo bugezweho.

Mu murima wegereye ibishanga bihinzemo umuceri harimo ibigori, haraguru yabyo hari ibiti byinshi ndetse hari n'imirima iteyemo imyumbati abaturage bari guhingamo kugira ngo bazabone uko batera imyaka.

Mu cyaro, abaturage bihuriza hamwe maze bakiharurira imihanda kugira ngo ibyatsi bitazayirengera maze igatsibama, bakabura aho banyura. Bakora kandi n'utuyira tuyobora amazi hafi y'iyo imihanda kugira ngo atazasakara mu muhanda maze akayangiza maze bakajya babura aho banyura.

Tera igiti nonaha kizakugirira akamaro ejo hazaza, niyo wowe waba utagihari abo uzabyara kizabagirira akamaro, hafi y'amashuri haba hagomba kwitabwaho, hagaterwa ubusitani ndetse hagashyirwa n'ibigega bifata amazi ava ku mashuri.

Ibishyimbo ni igihingwa cy'ingirakamaro ku gihugu ndetse gifasha n'abaturage kubona umusaruro uhagije kuko ni igihingwa cy'inkingi ya mwamba ku baturage. Iyo bikiri bito mu rwego rwo kugira ngo harwanywe ibyonnyi biba byabizamo haterwamo imiti bigafasha kugira ngo uwabihinze azabone umusaruro uhagije.

Ubuhinzi bufitiye akamaro Igihugu cyacu, iyo umuntu ari umuhinzi ntashobora kwicwa n'inzara kuko iyo asaruye abasha kubona ibyo arya ariko kandi agasagurira amasoko, ni yo mpamvu niba wahinze ugomba kujya ubagara ibyo wahinze maze ukabikiza ibyasi n'ibyonnyi kugira ngo uzabone umusaruro uhagije.

Mu murima w'ibigori, harimo umugore wambaye igitenge n'agapira k'amaboko magufi ufite isuka uri gucukura, iruhande rwe hari voka zikiri nto zitari zakura, ahantu ari gucukura umwobo hari ibigunda ari gushaka kuhahinga kugira ngo mu gihe kizaza azahatere imyaka.

Voka ni igihingwa giterwa cyane cyane mu byaro, ariko iyo zimaze kwera barazisarura bakazijyana ku isoko kugira ngo abo mu mijyi n'abandi batigeze bazihinga bazibone na bo bazirye batanze amafaranga yabo.

Imifuka myinshi ifite ibara ry'umuhondo, irambitse igerekeranye, yegeranye n'indi y'umweru yanditseho amagambo ngo kasawu, umwe muri iyo mifuka wikorewe n'umugabo wambaye igisurubeti cy'ubururu awutwaye ku rutugu.

Mu mirima iyo wahinze ibigori ukabireka bikuma ugamije kuzabisarura ukabihungura ukabibyazamo ifu cyangwa ibindi bikomoka ku bigori, urabireka maze bikuma bigatangira kwigonda bitewe n'uko izuba riba ryabivuyeho ryinshi kandi bigeze igihe cyo kuma.

Abagabo babiri, umwe bambaye imyambaro ya Kinyarwanda y'umuco gakondo n'umushananana, n'undi wambaye ipantaro n'ijire n'ishati y'amoboko maremare ihinnye, bari kumwe n'umugore, hagati yabo wambaye umwenda utukura, w'ikanzu n'inkweto zifite imishumi y'ubururu.

Ahantu hakunda gukorerwa ubuhinzi bw'ibigori iyo bimaze kwera barabisarura maze bakubaka urugo, bakagenda bahambiraho amababi ibigori bicuritse, bikuma neza byamara gutungana bakabifata bakabihungura, bakabona umusaruro wabo.

Ibirayi iyo bitangiye kwera cyane cyane igihe byarabye ni byiza kubitera imiti kugira ngo wirinde ko hari ibyonnyi bya byataka, niyo mpamvu abahinzi bashishikarizwa kugura ipombo zo gutera imiti mu myaka yabo cyane cyane abahinzi b'ibirayi.

Mu bishanga, hakorerwa imirimo myinshi itandukanye; uzwi cyane ni uw'ubuhinzi. Abantu bashaka guhinga, baraza maze bagacana imigende hagati y'umurima n'undi, bigafasha kugira ngo amazi ajye amanuka agende muri iyo migende. Barahahinga kandi, bagatunganya imirima. Abandi, baza mu bishanga baje gushaka ubwatsi bw'inyana, bw'inka zabo cyangwa ubw'andi matungo boroye.

I Nyanza hari ahantu hari icyapa imodoka ziparikaho hitwa ku Bigega, iyo uhageze uhita utambika mu muhanda ukwerekeza muri gare ya Nyanza, ahantu heza hari ibiti byinshi bitanga umuyaga hafi y'umuhanda, iyo uhageze urahibwira kuko hari ibyapa biharanga.

Ahantu mu bishanga abaturage bakunda guhingamo imyaka igiye itandukanye. Ibigori na byo birahingwa ariko kugira ngo byere bisaba kuba biteye ku mirongo kandi bikitabwaho, bigasukirwa kugira ngo bizatange umusaruro uhagije.

Imyumbati baba bazakuramo ubugari barayisarura maze bakayitonora bakayishyira ku zuba rikayivaho ikuma. Iyo imaze kugera ku rwego uwayanitse ashaka, ayipakira mu mifuka akayirunda hamwe maze akazayijyana ku cyuma maze bakayisya hakavamo ifu y'ubugari.

Umuceri ni igihingwa gikunda cyane guterwa mu bishanga kuko gikenerwa kuhira kandi kikaba kiba gishaka n'amazi menshi. Cyera hejuru kizanaho imbuto, maze cyamara kuma bakagisarura. Akenshi iruhande rwaho giteye, ushobora kuhashyira ibindi bihingwa, gusa mu mirima yacyo haba haciyemo imigende inyurwamo n'amazi.

Umuceri ufatiye runini abaturage batuye mu Rwanda n'isi muri rusange kuko ni igihingwa iyo cyeze kiribwa cyane n'abantu benshi kuko ntugoye kuwuteka kandi biroroshye kuwugura kuko ntuhenda.

Abahinzi bazi guhinga kijyambere, iyo bateye insina z'ibitoki bazisasira aho bazishyize bagacamo akena kazajya gafasha kurekamo amazi, amanuka mu mizi ya za nsina bityo zigahora zitoshye no mu gihe cy'izuba.

Kayote ni uruboga ruterwa hashyirwa urubuto rwarwo mu butaka maze ugataba, rukazamera rukavamo umugozi ugenda umeraraho amababi atandukanye acibwa agahinduka imboga, iyo rumaze gukura rweraho izindi kayote maze na zo zikaribwa kandi nk'imboga.

Mu ngo nyinshi zo mu byaro ubu usanga zubakishije ibyondo, zisakaje amategura, hafi yazo kuko ababa bazibamo aba ari abahinzi, uhasanga ibihingwa bitandukanye birimo nk'insina z'imibyari n'ibindi, kuko kandi haba hazitijwe n'imiyenzi, ndetse hateye n'ibiti birebire bituma abari muri izo ngo babona umwuka mwiza wo guhumeka.

Igihuru kiba kigizwe n'ibyatsi by'ubwoko butandukanye ndetse n'imyaka y'ibihingwa, harimo imigozi y'ibijumba, ibishyimbo bya mushingiriro, insina z'ibitoki, ibiti by'amoko agiye atandukanye, ibihaza ndetse n'ibindi.

Pepiniyeri ni ahantu haba hari ibihoho birimo ingemwe, akenshi abari iz'ibiti cyangwa izindi mbuto zitandukanye bakazitaho. Baba barazubakiye bakahasakara kugira ngo izuba ritazajya rimanuka rikagera kuri izo ngemye maze zikangirika.

Mu Rwanda hasigaye hari amashyamba menshi, kuva igihe Leta yakanguriye abaturage kuyahinga. Haba hari kandi n'imirima idahingwa, usanga yaramezemo ibyatsi byinshi kandi bigapfukira. Amashyamba rero ni meza kuko atuma abaturage bahumeka umwuka mwiza.

Mu byaro akenshi iyo uhatembereye usanga abahinzi baragiye bavanga imyaka, hari abahiga ibipapayi bakavangamo imibyare y'ibitoki, intoryi ndetse n'ibindi, ku mirima usanga baragiye bateraho ibiti birwanya amasuri ndetse n'ibindi byera imbuto nk'avoka.

Iyo ushaka kugira ngo uzeze ibitoki byiza kandi bitubutse, ucukura imyobo maze ugashyiramo insina maze igakura, iyo ikiri nto ukangurirwa kujya uyitaho, ukayihingira, ukayicira mbese ntihagire ibyatsi biyibangamira kugira ngo itazakura neza.

Itsina z'ibitoki akenshi iyo zimaze gutemwaho inshuro imwe usanga zuma ntizishibuke cyangwa zikazaho ibishibuka bito byera bitinze, niyo mpamvu niba ushaka kubona umusaruro uhagije ukwiye kwicira urutoki rwawe, wanarusarura ukarutemera hasi kugira ngo insina zatemwe zizashibuke neza.

Ipera iyo rikiri rito, nta kimenyetso na kimwe riba rifite ko rizakura maze hakazaho imbuto ziribwa kandi ziryoshye. Impande y'aho riteye hari ibishyimbo biri kumera kuko bimaze igihe gito bitewe.

Ipera ni igiti nk'ibindi byose, iyo uribonye rikiri rito ugira ngo nta kandi kamaro rifite uretse kuba ari igiti, nyamara iyo rimaze kugera igihe riraraba, rikera kandi rigatanga umusaruro mwinshi uhagije.

Imiyenzi ni ibiti akenshi usanga bihinze mu byaro, bikoreshwa cyane cyane iyo bari kuzitira amafamu ariko nanone bivamo imiti igiye itandukanye, abantu bafite ingo barabikoresha, bakabizitiza ahabakikije kugira ngo birinde ko ibyonnyi cyangwa izindi nyamaswa zabatera mu ngo.

Ibyatsi bigiye bitandukanye, harimo ibyumye n'ibibisi, ibyarabye n'ibitararaba, byegeranye n'ubusitani buteye hafi y'inzu. Ubwo busitani bugizwe n'utwatsi duto tugufi tumeze nk'umucaca, ku buryo umuntu ushaka kwicara yatwicaramo, akumva aratekanye.

Mu mirima usanga harimo ibiti bigiye bitandukanye, ariko cyane cyane ibitanga imbuto, haba harimo kandi n'amateke n'ibindi byatsi by'ubwoko bugiye bunyuranye, amapera yera ku biti birebire, akenshi usanga ateye ahantu byegeranye n'isombe, cyane cyane abantu bakunda kubitera mu rubibi.

Urugo akenshi usanga ruzitijwe ibiti by'amoko atandukanye, siho gusa kuko no mu mirima haba hazitijwe ibiti bituma ubonetse wese ataza ngo ahite aza mu murima, ahubwo abanza gufunguraho cyangwa agashyiramo akanya, ariko ibyo ntiwabikora umurima atari uwawe.

Iruhande rw'igipangu gifite agakaba ka sima, inyuma hari ahamenwe imyanda, ndetse hari na voka nto itarakura ariko y'imbangurire, impande yayo hanaze ibipapuro n'ibishashi by'imyanda. Iyo voka ifite amashami menshi, agiye agandara amwe akoze hasi.

Urusenda ni igihingwa ngengabukungu kuko rutaribwa mu rugo ku buryo warugira ifunguro, ahubwo uruhinga ararutegura maze akarujyana ku isoko bakarugura, abaturage benshi bo mu cyaro bararuhinga bakarugemura i Kigali aho basanga inganda zirutunganya maze rugasohoka rwabaye urundi rundi.

Abaturage bo mu byaro usanga bahinga ibihigwa bigiye bitandukanye. Harimo amateke, imboga n'ibindi bitandukanye bibafasha mu kongera imirire. Bita cyane cyane ku mboga kuko ari zo zikunda kubura kandi ziba zoroshye kuzihinga. Bityo bikabafasha mu guhangana n'inzara n'indwara ziterwa no kurya indyo ituzuye.

Mu dusoko two mu ngo, akenshi usanga hari abaturage bagenda bacuruzamo imboga zifashishwa mu ngo z'abaturage begeranye. Akenshi baba bacuruza inyanya, ibitunguru, biswi n'ibibiriti, kugira ngo umuturage ubibuze ahegereye ahita azakubigura bitamusabye kujya kuri botiki cyangwa kujya ku isoko.

Mu buhinzi bugiye butandukanye abantu usanga bibanda ku gutera ibi ibafitiye akamaro. Niyo mpamvu hari abatera imboga kugira ngo bajye bazifashisha mu mafunguro ya buri munsi. Ariko si zo zonyine kuko hari n'abahinga ibishyimbo mu karima kamwe abandi bagatera insina z'ibitoki kugira ngo byose bizuzanye, mu gihe cyo gusarura bazabashe kubona amafunguro abanyuze.

Iyo ugiye ku isoko uhasanga ubwoko butandukanye bw'imboga, harimo ibitunguru by'ibijumba n'iby'ubwatsi abenshi puwaro, kokombure, pome ndetse ugasanga bafite imiteja n'ibindi bitandukanye, byose baba bari kubigurisha kugira ngo abatarabihinze babashe kubibona mu buryo buboroheye.

Karoti ni imboga zikunda gukoreshwa cyane cyane mu gihugu cy'u Rwanda n'ahandi muri rusange. Iyo ugiye mu isoko uzisangamo, si izo gusa, kuko haba harimo n'imboga z'imbwija, harimo puwavuro ndetse n'inyanya, byose bigurishwa nk'imboga kandi mu isoko iyo ugiyemo ubisangamo.

Ubusitani iyo butewe hafi y'aho abantu baba, butuma bahumeka umwuka mwiza kandi bakabaho batuje kubwo kumva ahantu bari hari amahumbezi, indabyo z'umuhondo ziri kumwe n'izindi z'icyatsi zikikije ubusitani bw'umucaca uteyemo umukindo.

Iyo ushaka gukora umushinga w'amashu kugira ngo ku zuba utazangirika, uwutera ahantu hegereye amazi ariko kandi ushaka n'ibyatsi byumye maze ukayasasira bityo izuba ryazaba ryinshi, bwa butaka ntibwume ngo ya mashu abure amazi.

Karoti ni imboga zihingwa mu butaka. Ziba ziri hasi, amababi yazo ari hejuru. Mu kuzisarura barandura ya mababi, maze karoti iri hasi mu butaka na yo ikazamuka, bakayijyana bakajya kuyirya. Amababi yazo aba afite ibara ry'icyatsi.

Imiteja ni ubwoko bw'imboga abantu benshi bakunda kurya, yera ku bishyimbo ariko bayisarura itarakomera, hatari hazamo ibishyimbo ngo abantu babireke bizere byumye, ahubwo bayisarura yo itari yakomera ngo izemo ibishyimbo bityo bakayifata nk'imboga.

Dodo ni imboga z'ingenzi akenshi mu zihinga mu butaka bwahinzwe neza, maze bakazitera zitandukanye kuko iyo zikuze ziragandara, iyo zikiri nto uba ubona zitazera kuko nta kazozo uba ubona zifite, nyamara iyo zibonye izuba rike n'imvura iri mu rugero zibasha kwera.

Ubusitani ni bwiza kuko butuma abatuye aho buteye bagira umwuka mwiza. Butuma ahantu hasa neza, mbetse ukabona hagaragara isuku nta mwanda uhari. Ubusitani kandi kubutera ni byiza kuko hari n'indabo ziba ziri mu busitani ushobora kuvanamo imiti igiye itandukanye.

Ibireti ni igihingwa giterwa hagamijwe mu kongera umusaruro w'imboga ku isoko cyangwa mu baturage babihinga kuko kibyara amafaranga, abagihinga benshi baba bagamije kuzakigurisha ku masoko maze bakabasha kubona ibyo bakeneye, bivuye mu mafaranga bakuye mu guhinga ibireti.

Ubusitani ni bwiza kuko butuma abaturage babuteye cyangwa n'abagenda aho buteye bahumeka umwuka mwiza, buba bugizwe n'indabyo zo mu moko agiye atandukanye ari iziraba n'izitaraba, hari iziba zifite amababi y'umuhondo avanzemo akandi kabara k'icyatsi, zo zikaba zifite ibiti birebire, hari n'iizindi ziranda hasi bakunda kuzitera ahantu hari ubutaka bworoshye, zose usanga zikunda guterwa hafi y'inzira zinyurwamo n'abantu.

Pinari ni imboga rwatsi zitekwa mu buryo butandukanye harimo igisafuriya na boyiro. Ni nziza cyane kuko zivura indwara zigiye zitandukanye harimo iz'amaso n'iz'amara.

Iruhande rw'inzu yubakishije amatafari ya rukarakara adahomye, iyo nzu isakaje amabati, yegeranye n'akarima karimo imboga zigiye zitandukanye ndetse na karoti, iruhande rw'inzu hateye insina y'igitoki ndetse n'igiti kirekire.

Iruhande rw'urugo ruzitiye inyubako, hari ubusitani buteyemo umukindo n'izindi ndabo zitandukanye. Bwegeranye n'ahantu hari umucaca, ndetse kuri urwo rugo rwubakishije amatafari ya mpunyu, haranzeho ibyatsi ariko na byo biteye nk'indabo.

Akenshi mu bihuru cyangwa n'ahantu ku ngo babishatse, uhasanga indabyo zigira amababi manini ameze nk'amakoma y'ibitoki, hagati hameramo utuntu tw'uturabyo dufite ibara ry'umutuku, ayo makoma iyo amaze gusaza, cyane cyane ayo hasi agenda asadukamo uduceduce.

Iyo ugiye ku isoko usangayo imboga z'ubwoko butandukanye. Amasoko mvugaga ni acuruza imboga n'imbuto habamo wotameloni, hakabamo amaronji, hakabamo imineke, voka n'ibindi bitandukanye. Abacuruzi babizana ku isoko bagamije kubigurisha abatabifite kandi bakeneye kubirya.

Ubusitani ni bwiza kuko butuma abantu babufite bahumeka umwuka mwiza, buba bugizwe n'agacaca abenshi bita pasiparumu n'indabyo zikura zifite ibara ry'icyatsi, nyamara zatangira gusaza zikagira iry'umuhondo, ahenshi ubusanga kandi hateye n'ibiti, ubusitani bukunda guterwa hafi y'utuyira tunyuramo abanyamaguru.

Ikinyomoro ni igihingwa cyera ku giti kirekire, kiba gifite amababi manini. Umukobwa wambaye umupira w'amaboko magufi wa oranje, ufite umusatsi w'umukara uzingiye hejuru, ari gufata ku mababi y'ikinyomoro.

Imineke ni imbuto nziza zishobora gufatwa nyuma yo kurya amafunguro makuru. Ariko kandi na voka iyo uzifashe nyuma yo gufata amafunguro makuru nta kintu byangiza. Ushobora kandi kuzishyira muri sarade kuko ni ingenzi kandi ntacyo byangiza igihe waziteguranye n'izindi mbuto.

Mu masoko menshi cyane acuruza imboga n'imbuto, iyo ugiyemo usangamo betarave, indimu, ibinyomoro ndetse n'amaronji. Ariko ntabwo wakwirengagiza ko hari n'ababa barabyejeje mu ngo bakabizana ku masoko bikagurishwa. Umucuruzi uba ubifite aba agamije kugira ngo abashe kubigeza ku baturage batabihinze na bo babashe kubikoresha.

Dodo ni imboga zifitiye akamaro umuntu wese uzirya, zigira intungamubiri nyinshi zigiye zitandukanye ku buryo iyo zifashe umera neza, zirinda indwara harimo iz'amaso n'izindi zigiye zitandukanye.

Iyo ugiye mu masoko cyane cyane acuruza imboga n'imbuto usangamo imiteja, inyanya, intoryi ndetse n'ibindi, iyo bari kubipima babishyira ku munzani babanje kubicisha mu kabase kugira ngo ireme ryabyo rimenyekane bityo babone uko baca uje kubigura amafaranga.

Imboga abenshi bita imbwija cyangwa agapasu, iyo ugiye mu masoko uzisangamo. Haba harimo karoti n'izindi zigiye zitandukanye, ku buryo ushaka kurya utabura izo ufata ngo ujye guteka. Ni byiza rero kurya imboga, nta kabuza iyo uziriye zikugirira akamaro.

Ubuhinzi ni inkingi ya mwamba ku gihugu, iyo wateye maze ukagera igihe cyo gusarura ukabona umusaruro uhagije, uwushyira mu mifuka maze uhanyuze wese akabona ko wejeje ku rwego ruhagije, ni byiza ko twitabira ubuhinzi kuko bufitiye akamaro igihugu cyacu.

Dodo ni imboga zigira intungabiri nyinshi zigiye zitandukanye, iyo uziriye zikurinda kurwara amaso no kurwaragurika izindi ndwara zigiye zitandukanye zaba izirema n'izindi zandura umuntu akura mu bindi bintu bigiye bitandukanye mu buzima busanzwe.

Imineke ni urubuto rwiza umuntu ashobora kurya nyuma yo gufata ifunguro rikuru. Nanone kandi ushobora kururya rwonyine kuko rurihagije, akenshi abantu bakunda imineke iyo ihiye cyane ni bwo ibaryohera.

Amashaza, abantu benshi bayita amajeri bitewe n'aho bakomoka, iyo ari mu ishashi yuzuye, ukayashyira ku munzani apima ikiro kuko araremera, iyo uyatetse afatwa nk'imboga kandi avangwa mu byo kurya bitandukanye.

Mu masoko agiye atandukanye, cyane cyane ay'imbuto n'imboga, iyo ugiyemo usangamo imineke, voka, watermelon, ibitoki n'ibindi bitandukanye. Ababicuruza icyo baba bagamije ni ukugira ngo babigeze ku baturage babikeneye, ariko batabasha kubyihingira.

Intoryi ni igihingwa buri muturage wese yakwifuza guhinga, zirororoka kuko zikura vuba kandi umuntu waziriye agira ubuzima bwiza. Ni byiza ko twitabira kuzihinga kuko niyo utazirya mu rugo iwawe gusa ushobora no kuzigurisha kuko zigira abantu bazikunda cyane bityo ukabasha kubona amafaranga ahagije.

Hari ubwoko bwinshi butandukanye bw'imboga, iyo ugiye mu isoko usanga bacuruza karoti, beterave n'ibindi byinshi bitandukanye ariko bikoreshwa nk'imboga, ni ngombwa rero kwitabira kurya imboga kuko zifite akamaro kenshi mu buzima bwa muntu.

Iruhande rw'igipangu cyubakishije amatafari ya mpunyu, gifite agakaba hejuru ka sima ndetse na fondasiyo y'amabuye. Hari ubusitani buteyemo indabyo zitandukanye ndetse na avoka, iruhande rwabwo hari akayira k'abanyamaguru ndetse n'umuhanda wubakishije amabuye hasi.

Akarima k'igikoni ni imwe muri gahunda zashyizweho na Leta y'u Rwanda mu rwego rwo kugira ngo zifashe abaturage batishoboye guhanganya n'ikibazo cy'imirire mibi n'indyo zituzuye, barakubaka bagateramo imboga hafi y'urugo maze bajya bajya guteka bakajya kuzisoroma maze bakarya.

Mu masoko menshi usanga harimo imyembe, iribwa ibanje guhatwaho igihu cy'inyuma kiba gikomeye maze bakayikatakata ikibuto cy'imbere bakakijugunya maze bakarya ibiri imbere bisa neza.

Mu mirima cyane cyane iyo mu byaro usanga harimo imboga z'ubwoko butandukanye, hari igihe ziba ari nyinshi abazihinze ntibabashe kuzirya ngo bazimamare ugasanga zararabye mbese nk'aho zititaweho.

Umurima w'intoryi, akenshi usanga abahinzi bavangamo n'ibindi bigiye bitandukanye, nk'aho bateramo amapapayi, ku ruhande bagakikizaho urubingo rwo kwahirira inka cyangwa rwo kuzakoresha mu yindi mirimo itandukanye, ku gihe cy'izuba barazisasira kugira ngo amazi ari mu butaka agumemo, maze imizi yazo ibone ubuhehere.

Imboga ni ikintu nkenerwa mu buzima bwa buri munsi, iyo ugiye ku isoko uhasanga iz'ubwoko butandukanye harimo ibitunguru, kokombure, imiteja n'izindi, ababa bari kuzicuruza baba bagamije kugira ngo abaturage batazihinga cyane cyane abo mu mijyi n'abandi bazibone, babashe kuzikoresha n'ubwo batazihinga.

Ubuhinzi akenshi ntabwo wabukora udafite amazi, niyo mpamvu ku gihe cy'izuba abahinzi bacomeka impombo zifasha kuzana amazi mu mirima yabo bakazishyira, aho hari amazi menshi maze bakajya bayazana mu mirima aho bahinze kugira ngo bibafashe kuhira imyaka yabo.

Nibyo koko iyo umuntu yahinze cyane cyane nk'ibihaza cyangwa izindi mbuto zigiye zitandukanye, akenera kuzuhira kugira izuba ritazica, mu mirima yo mu bishanga akenshi bahingamo ibihaza, karoti, isombe, ibigori ndetse n'ubutunguru bw'ibyatsi.

Mu buhinzi usanga abaturage barasobanukiwe uburyo bukorwa bya kijyambere. Ni yo mpamvu mu gihe cy'izuba bacomeka imigozi ibafasha mu kuhira, bakayishyira ahantu hari amazi menshi maze bakuhira mu butaka buba bwarumye bitewe n'izuba.

Abahinzi basobanukiwe akamaro ko kuhira. Ni yo mpamvu iyo izuba ryavuye bafata rozwari maze bakagenda bakazana amazi bakajya basuka ku bihingwa, mu gihe izuba ryavuye bagira ngo babirinde kugira ngo bitazabaduka bitewe n'izuba ryinshi.

Abaturage bo mu byaro akenshi iyo bahinze imyaka yabo batekereza n'uburyo bazajya bayuhiramo cyane cyane mu birebana n'imboga n'intoryi, baragenda bagafata umupira, bakawushyira mu maze maze akaba ari wo buhirisha igihe izuba ryavuye kugira ngo za ngemwe cyangwa se za mbuto bateye zitumba.

Mu bishanga byinshi usanga harimo imirima ihingwamo imbuto zigiye zitandukanye n'imyaka itandukanye, harimo nk'ibijumba n'ibindi baba baragiye bacamo imigende inyuramo amazi kugira ngo atangiza ibihinze muri iyo mirima ariko n'utwo turima twagiye duhingwa tuba twaratunganyijwe neza ducibwamo imirongo.

Mu bishanga byinshi byo mu Rwanda, cyane cyane ibyo mu burengerazuba, mu majyepfo no murasirazuba, usanga bihinzemo umuceri. Ni igihingwa iyo ukirebye kikiri gito ubona ari utwatsi ushobora no kwahira inka, nyamara iyo gikuze kiraraba maze ugakuraho umusaruro.

Hari udusinga abantu bakunda kuzitiza ahantu bagira ngo batandukanye isambu y'umuntu umwe n'iy'undi. Bakunda kandi kudushyira ahantu baba badashaka ko abandi bazajya barenga ngo binjire mu isambu y'umuntu runaka. Tuba dufiteho amahwa iyo tugiye ugashaka kuducamo turakwica bikaba byatuma uva n'amaraso.

Amatarasi y'indinganire ni imwe muri gahunda zafashwe na leta mu rwego rwo guteza imbere ubuhinzi, cyane cyane mu bice by'ibyaro. Bafata ibyasi abenshi bita ibisinde, maze bakabitegesha aho itarasi irangirira, bigatuma iterera, ifumbire bayishyizemo ntitembe cyangwa ngo ijyanwe n'isuri, bityo imirima ikera.

Ahantu haba izuba ryinshi usanga n'ibihingwa biba bihari bidakura neza. Nk'iyo ari insina usanga zitarabyibushye, iyo ari ibiti ntibibyibuha cyangwa bibi birebire, uhasanga amabuye menshi, mbese hakitwa ku gasi. Icyo uhateye nticyera ariko abantu benshi bakunda kuza kuhatura ndetse bakahakorera n'ubworozi bwo mu kiraro.

Ahantu hanini cyane haba hari ibyatsi bito birishwa n'inka cyangwa abantu bakaza gukiniramo umupira muri ibyo byatsi, usanga bitajya bikura cyane kuko iyo ari inka ziharishiriza zibirya bikiri rito n'iyo kandi bahakinira umupira cyangwa bahakorera ibindi bikorwa by'imyidagaduro bya byatsi ntibibasha gukura kuko abantu barabikandagira.

Ahantu mu kibaya harimo umucaca mwinshi ndetse hateyemo n'ibiti bito, hegeranye n'amazu y'abaturage ndetse ku mpande hateyeho ibiti birebire, bifasha kugira ngo abo bantu batuye muri ayo mazu babashe guhumeka umwuka mwiza.

Mu byaro akenshi usangamo imihanda y'igitaka ndetse n'amasambu ahinzeho n'adahinze, wahabona kandi ibihingwa bigiye bitandukanye, birimo insina z'ibitoki ziba zifite amababi ameze neza ndetse n'andi yumye ari ahagana hasi.

Amatarasi y'indinganire ni amwe muri gahunda yazanwe na Leta y'u Rwanda mu rwego rwo kugira ngo abaturage bafashwe mu kuzamura iterambere ryabo, arakorwa maze umuntu wayakoze agahinga, bikabasha kumufasha mu kurwanya isuri no kugira ngo ifumbire yashyize mu butaka bwe igumemo.

Nta kabuza aha ngaha niho bahinga, ni umurima mwiza uteguye, urimo ingemwe nto zisasiwe n'utwatsi twumye, ku ruhande hateye ibiti ndetse hari n'amazi yuhirishwa izi mbuto ku gihe cy'izuba.

Iyo uri gutera ingemyi biba byiza iyo ku ruhande rwazo ushinzeho agati ukazihambiraho kugira ngo zitaza kugwa, wenda bitewe n'izuba ryinshi mbese zikarabirana, birafasha kuko iyo ziryamye hasi imvura ishobora kugwa igatarutsa ibitaka bikazitwikira.

Mu mirima yo mu bishanga hagati uba usanga haciyemo imigende inyuramo amazi, iyo mirima usanga ihinzemo akenshi ibigori n'ibindi bihingwa bigiye bitandukanye. Ku musozi, hejuru usanga hariyo intoki cyangwa insina zazo n'ibiti birwanya amasuri.

Ubworozi bw'inka bwateye imbere kuva igihe Leta yashyiriyeho ingamba zo kororera mu biraro, abaturage cyangwa abandi bantu b'aborozi bafata ibiti maze bakubaka ibiraro bakabisakara maze bagashyiramo inka zabo akaba arimwo bazororera.

Ingurube ni itungo abantu benshi bororera mu ngo ariko ritanga umusaruro mwinshi, iyo ibwaguye havamo ibyana byinshi abenshi bita ibibwana kandi n'iyo itabwaguye itanga ifumbire nyinshi cyane.

Ingurube ni itungo abantu benshi bakunda korora ritanga umusaruro uhagije kandi ritera n'ifumbire cyane, iyo uri umuhinzi ukayorora ntabwo ujya ubura ifumbire kuko iyikora mu gihe gito.

Ihene ni itungo rigufi ryororerwa mu rugo. Rigira amabara atandukanye nk'umweru n'umukara. Rifite kandi umurizo mugufi uba ufite ibara ry'umukara cyangwa umweru. Igira amahembe magufi ndetse akenshi iyo bagiye kuyibaga cyangwa hari ahantu bayijyanye bagira ngo idatera amahane, bayizirika amaboko.

Kuva leta y'u Rwanda yashyiraho gahunda yo kororera mubiraro ntago kuragira bikiri mubice byinshi by'igihugu ahubwo bubaka inzu igizwe n'ibiti ituma inka ibasha kubona umwuka mwiza kandi ikareba hanze kuko iba yakira urumuri ruhagije bakayubakira muntwari iba irimo ibyatsi irya.

Inka ni itungo rikwiye kwitabwaho kuko mu Rwanda rirubahwa cyane, rirabyara maze rigatanga amata ariko niyo riri mu kiraro ritanga ifumbire yifashishwa mu buhinzi, akenshi iyo bari kuryubakira batera ibiti bagashyiraho imbariro kugira ngo inka izajye iba mo imbere itazasohoka ikajya konona ibintu byo hanze yayo.

Ubworozi bw'inka bumaze gutera imbere mu Gihugu cy'u Rwanda, aho usanga ubungubu bororera mu biraro ndetse n'inka zagira ikibazo bakazivuza, igihe kimwe mu mwaka cyangwa cyateganyijwe n'ushinzwe kuvura amatungo, abantu bazana inka ahabugenewe, hateguwe maze umuvuzi w'amatungo akazitera imiti cyangwa akazikingira ibyorezo byateye.

Ubworozi ni inkingi ya mwamba ku baturage cyane cyane abo mu byaro, iyo ufite inka, ukagira inkoko n'ingurube nta bukene bwagutera kuko uramutse uhuye n'ikibazo wagurisha kimwe muri ibyo, maze ukabona amafaranga yo kwikenura.

Akanyana akenshi hari igihe iyo kari mu rugo rutubatse ikiraro batera inkomangizo maze bakakazirikaho kugira ngo katazata urugo kakagenda, kaba kari ahantu hari isuku kuko bagasasira ibyatsi akaba ari byo karyamaho.

Akanyana ni inka ikiri nto, nta gihe kinini iba imaze ivutse, bayubakira ikiraro maze akaba ariho ikurira, bakayishyiranamo icyarire kugira ngo aho ibi hatazi ijagi bityo bikaba byayitera indwara zishobora no gufata ku ruhu.

Buri munyarwanda wese azi akamaro k'inka, ni nziza kandi ntigira amahane, inkoko ntiziyitinya, akenshi ziza kuyireba kandi zigatora udusimba tuba turi gutumba mu ifumbire ibiri gukora.

Ingurube ni itungo ryororerwa mu rugo, iyo urifite riguha umusaruro uhagije, ribwagura ibibwana byinshi kandi ritanga n'ifumbire mu gihe cyihuse kuko izwiho nko kuba ari itungo rigira umwanda cyane, ibyo bigatuma ritanga ifumbire nyinshi.

Ubworozi bw'inkoko butanga umusaruro uhagije kuko hari izororwa igihe gito maze zikajyanwa zikabagwa bityo uwari uzoroye akabona amafaranga. Hari izindi kandi na zo zororwa zigatanga amagi ku buryo uzoroye abona amafaranga buri munsi bitewe n'uko zateye.

Hari abaganga babihuguriwe bita ku matungo, akenshi uba usanga bayatera inshinge cyangwa bakayitaho mu bundi buryo kugira ngo yororoke, mu matungo bitaho n'ingurube ntizatanzwe, na zo bazitaho zigakura, bakazitera imiti igihe zarwaye cyangwa bakazitera n'indi ituma zikura zigashisha.

Niba uri umunyarwanda ukaba ushaka kugira ubuzima bwiza, uzorore inka. Ni itungo ryiza ritanga ifumbire, maze umuhinzi ibyo ahinze ayikoresheje bikera. Ritanga kandi amata, uyanyoye akagira ubuzima bwiza.

Ingurube ni itungo ryororerwa mu rugo, ritanga umusaruro mwinshi, iba ifite ubushobozi bwo kubwagura ibyana byinshi kandi igakora ifumbire mu gihe gito, iyo umuntu ayifite ntashobora kubura uko ahinga kuko imuha ifumbire ihagije.

Ingurube ni itungo ryororerwa mu rugo rikitabwaho cyane kuko rirya ibyatsi n'ibindi bisigazwa by'ibiryo nk'ibiba byahaswe ku birarayi n'imboga n'ubwatsi busanzwe, iyo zitaweho zitanga umusaruro kuko zibwagura ibibwana byinshi bityo uzoroye zikamugirira akamaro.

Ubworozi bw'ihene bwateye imbere, nyamara nubwo bimeze ku hari abandi baturage bagifata ihene bakazizirika ku gasozi ntibazororere mu biraro, mu gacaca k'ubusitani bukikijwe n'indabo nini z'icyatsi hari ihene iziritse iri kuririsha.

Inka ni amatungo ahabwa agaciro cyane mu rwanda, kuko yifashishwa mu bikorwa bigiye bitandukanye. Atanga amata aba akenewe n'abana n'abantu bakuru kugira ngo bagire imirire myiza, zitanga ifumbire kandi n'uzifite ntashobora gukena kuko iyo ahuye n'ikibazo ashobora kuyigurisha akabona amafaranga.

Itsina ziraho ibitoki n'inziza kuko zitanga umusaruro bikagirira akamaro abagize urugo, akenshi mu byaro usanga umuturage yoroye itungo rigufi cyangwa rirerire nk'inkoko, cyangwa ihene, maze bikakamufasha kubona ifumbire ashyira kuri bya bitoke bye, maze bikera neza bigatanga umusaruro uhagije.

Umuturage wese wo mu cyaro cyane cyane uwamenye ibyiza by'ubworozi usanga afite ihene cyangwa irindi tungo rigufi rimufasha mu mirimo ye ya buri munsi cyangwa rikamuha ifumbire yifashisha mu buhinzi, iyo bibaye ku manywa ararisohora akarizirika ku nkomangizo hanze ahantu hari izuba ryinshi.

Ingurube ni itungo ryo mu rugo. Ryorerwa akenshi mu biraro bigafasha abaryoroye kubona uko baryitaho bakarikorera isuku kandi bakanabona n'uburyo barigaburira. Iyo ritari mu kiraro rikunda guteza akavuyo n'akajagari kuko ryangiza ibintu byinshi cyane. Ingurube ni nziza kuko itanga amafaranga ku muntu uyoroye iyo yabwaguye ndetse biciye no mu ifumbire.

Inka irabyara nyuma y'amezi icyenda iyo imaze gufata. Niyo mpamvu iyo igihe cyayo kigeze ibyara akana twakwita nk'akanyana kajya kumera nka yo kuko ntabwo yakwiyima akabara.

Inka ni itungo rifitiye akamaro umuryango cyane cyane nyarwanda, umuntu woroye inka ntashobora kubura ifumbire yo gukoresha mu murima we kandi iyo ibyaye imuha amata ashobora guha abana be cyangwa na we akanywa ubwe akagira ubuzima bwiza.

Inka ibyara utunyana akenshi usanga ako ibyara kaba gafite ibara ryayo, si ngombwa ngo bibe bisa ahubwo niyo yakwiha akabara kamwe wenda ikiha nk'ibara ry'umweru biba bihagije kugira ngo bigaragare ko ako kanya kavutse kuri iyo nka.

Amashu ni igihingwa ngandurarugo, akoreshwa nk'imboga kandi abantu bayahinga kenshi barayabagarira kugira yere neza, aba afite ibibabi binini kandi ntashobora kuvangwa n'indi myaka kuko ntiyakwera neza.

Mu bishanga usanga hari imirima, abaturage bifashisha mu buhinzi. Kubera ko haba hari amazi menshi, baca imigende igenda iyakamura muri iyo mirima, kugira ngo itazangiza imirima. Ni yo mpamvu akenshi iyo bahinze, bahita bacamo imigende, aho iri bakayizibura kugira ngo ya mazi yarari mu mirima akamukemo, atazangiza ibyo bazaba bahinze.

Imyumbati ni igihingwa giterwa mu butaka kikaribwa imizi ariko n'amababi ubwayo na yo akaribwa, barayafata bakayakuraho uduti tuba tuyariho maze bakayajyana bakayasekura maze agahinduka imboga.

Ibigori bishobora kuribwa mu buryo butandukanye. Hari igihe byera umuntu akabirya bitari ibyuma, abyokeje cyangwa bitetse. hari n'igihe babireka bikuma bakabihanika, byamara kwakira izuba neza byumye bihagije, bakabihungura bikavamo impungure zigatekwa cyangwa bakazisheshamo ifu.

Inyanya ni igihingwa gisaba amafaranga menshi ku bantu bagikora, iyo zimaze gukura zitangira kugenda zera, zimwe zigahinduka umutuku, izindi zikaba umuhondo, ariko iyo zisaruwe bazijyana ku isoko, izindi bakazijyana mu nganda zigatunganywa.

Uruboga rwitwa shufurere ruba rufite amababi manini azamutse ndetse hagati ari mwo ruri bityo bigafasha mu kugira ngo harwanywe indwara nyinshi zitandukanye, uwaruriye aba ari ubwirinzi yiyubatsemo kuko urwo ruboga rurwanya indwara.

Inyanya birazwi ko ari urubuto rwiza abantu bashobora kurya rukiri rubisi barukase, ariko na none rutekwa mu biryo bigahindura ibara kandi bikongera icyanga n'uburyohe.

Ibihoho akenshi babishyiramo ibiti iyo bikiri bito, mbese ari ingemwe kugira ngo arimo bizakurira maze bazabikuremo bajye kubitera, bibone ubukura neza, maze bikore ishyamba.

Ibishyimbo ni igihingwa cy'ingenzi kitwa icy'ingandurarugo kuko iyo byeze akenshi usanga abaturage babijyana mu ngo zabo maze bakabyifashisha. Bituma nta nzara ibatera kandi bakagira imirire myiza.

Ibihoho akenshi usanga bitondetse ahantu habugenewe, twakwita nka pipiniyeri, biba birimo ingemwe z'ibiti runaka, zaba inturusu, cyangwa voka, n'ubundi bwoko bw'ibiti, zitabwaho aho hantu bakazuhira, bakazicira, maze zigakomera, zikagira ubudahangarwa, zikazaterwa mu mirima aho zizakurira zimeze neza.

Mu mbuga irimo agasima gake, harimo ibigori biriho amababi, bimwe bisa n'ibyumye ibindi biracyari bibisi, ku ruhande hari inzu iteye karabasasu y'umukara hasi iriho akagori gakozwe na sima.

Ahantu hatunganyirizwa ingemwe z'ibiti runaka, iyo ugiyemo usanga harimo ubwoko bwinshi butandukanye bw'ibiti, buba mu bihoho, bakabwitaho, bakabwuhira, kugira ngo bugire ubudahangarwa kandi bukomere, maze nibaramuka bateye ubwo bwoko bw'ibiti, buzere neza kubera ko byitweho bukiri buto.

Inyuma y'inka nyinshi abagabo bari kugenda basunikira ahantu hubatswe uruzitiro mu hagati bahagaze ku mpande y'urwo ruzitiro, abagabo bafite inkoni ndetse n'undi wambaye ishati y'amaboko magufi wipfumbase uhagaze impande y'igiti kirekire.

Ahagurishirizwa imiti y'amatungo, usanga haba harimo utubati duteretseho amacupa arimo iyo miti. Akenshi aho bagurishiriza iyo miti y'amatungo, haba hari kandi n'indi miti iterwa mu myaka nk'irwanya udusimba n'indi yo mu bwoko butandukanye.

Mu buhinzi hakenerwa ibikoresho bigiye bitandukanye. Niyo mpamvu hari amazu aba yarafashe inshingano zo kuzajya acuruza imiti ndetse n'ibindi bikenerwa mu buhinzi harimo nka rozwari zikoreshwa mu kuhira imyaka, amapombo akoreshwa mu gutera imiti ndetse n'imiti yifashishwa mu kurwanya udusimba n'ibindi byonnyi byataka imyaka.

Inka ni itungo ryiza buri munyarwanda wese yakwifuza kugira, iyo uzifite zituma usezera ku bukene kuko akenshi iyo uzibyaye bituma ubona umusaruro uhagije w'amata, bityo ukayagurisha bikakuvana mu bukene.

Inka ni itungo ryamenyereye kororerwa cyane cyane mu Rwanda. Iyo urifite rikugeza ku bintu byinshi bitandukanye kuko itanga ifumbire, ikabyara maze ukabona amafaranga iyo wayigurishije, kandi nanone amata atangwa n'inka ni aya mbere kuko atuma umwana akura neza iyo wayamuhaye.

Mu ifamu y'inka usanga harimo ubwoko butandukanye bw'inka zifite amabara menshi. Umuntu ushinzwe kwita ku matungo wabyigiye kandi ubifitiye ubumenyi, araza akazisuzuma akazitera imiti ku zarwaye ndetse akazitaho kugira ngo amenye neza ko ubuzima bwazo bumeze neza.

Amata iyo uyajyanye ku muntu wita ku buzima bwe arabanza akayapima kugira ngo abone kuyanywa, ni byiza mbere yuko ugira ikintu unywa kubanza kugipima kugira ngo kitagutera indwara wasanga cyarangiritse ntukinywe.

Inka ni itungo rifitiye akamaro kanini umuryango, iyo uzoroye iyo zibyaye urazigurisha mu gihe wagize ikibazo zikagufasha, ariko nanone zitanga ifumbire, sibyo gusa iyo ukamye amata igihe inka yabyaye urayanywa maze ukagira ubuzima bwiza, kimwe n'uko ushobora kuyagurisha maze ukabona amafaranga yo kwikenunza.

Ubworozi bw'inkoko ni ingenzi kugira ngo uziteho uziha amazi ukaziha ibiryo ndetse ukita ku rumuri rugera ahantu ziba kugira ngo zitazaba impumyi, iyo ugira ngo uzabone umusaruro uhagije uzikurura isuku maze zigakura neza.

Iyo ugiye muri parike zigiye zitandukanye cyane cyane izo mu Rwanda usangamo amatungo atangaje utari usanzwe uzi, harimo nk'ihene ziba zifite amatwi manini, afite amajosi maremare ndetse n'amaguru maremare cyane.

Ibitera ni ibisimba biba mu ishyamba, bikunda kugenda cyane cyane mu biti, kuko bigira ubushobozi buhambaye mu gusimbuka. Biba bifite ubwoya bwinshi ndetse akenshi usanga ari umukara. Mu maso haba hirabura cyane, ariko harimo ubwoya bw'umweru.

Muri parike cyane cyane iy'ibirunga ndetse n'iyo mu ishyamba rya nyungwe, habamo inyamaswa zigiye zitandukanye. Hari izibamo ziba zifite amabara y'umukara n'umweru, ziciyemo imirongo zigira umurizo muremure n'uduhembe tugufi n'amatwi abambuye. zikunda kuba mu byatsi, ahantu ziba zihagaze akenshi ziba zirikota izuba.

Udusumbashyamba ni inyamaswa zigira amajosi maremare, amaguru maremare n'imigongo miremire igororotse, zirya ibiti kandi zigira ibiro byinshi ku buryo zigukandagiye wagira ikibazo uramutse uri umuntu.

Ingagi ni inyamaswa nziza akenshi mu Rwanda bazisanga muri pariki y'ibirunga iba mu majyaruguru. Ni nziza kuko zikurura ba mukerarugendo maze bakaza bagasiga amafaranga abenshi bazi nk'amadovize, bigateza imbere igihugu cyacu.

Mu biguruka harimo ubwoko bw'ibyitwa inyoni. Zifite amoko na byo ubwazo atandukanye, hari izigira imirizo miremire n'amababa mato, hari izigira amababa mato n'imirizo miremire n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Iyo ugeze mu ishyamba ukitegereza neza ntabwo ushobora guhumbya kabiri utabona inyoni.

Inyoni akenshi zikunda kurya ubuki buba buri mu ndabyo. Ziraza zigashora iminwa yazo miremire mu ndabyo, zigakuramo ubuki buba burimo, maze zabumara zikongera zikaguruka. Ziba zifite amaguru abiri maremare, akenshi aba atarimo amaraso.

Hari ubwoko bwinshi bw'ibisimba cyangwa utunyamaswa iyo ubonye ubona dutangaje, hari nk'agafite amatwi kajya gutera nk'urukwavu ariko ko gafite umurizo muremure ufite ubwoya bwinshi gashyira mu mugongo kandi akenshi ugasanga mu mashyamba.

Mu mashyamba habamo inyamaswa zigiye zitandukanye, izo bamwe bita ibinyogote ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Iyo ziri kugenda ku biti, zitwikira imirizo yazo ku buryo utazimenyereye wagira ubwoba ukagira ngo ni ubundi bwoko bw'igikoko.

Mu mashyamba agiye atandukanye, uyagiyemo usangamo ubwoko bwinshi bw'inyoni, hari iziba zifite agasatsi hejuru y'umutwe kandi ari iz'amabara, ntizikunda kuboneka ahantu hose habonetse kuko aba ari umwihariko mu mashyamba runaka.

Igikona kiri mu bwoko bw'ibisiga byitonda bidakunda kwangiza. Bikunze kuba biri ahantu hari amasaka. Bigira amabara abiri; umweru mu gatuza ndetse n'inyuma mu gikanu ndetse amababa yabyo aba ari umukara, bigira iminwa miremire isongoye.

Igikona ni ubwoko bw'igisiga gikunda kurya amasaka, gifite ibara ry'umweru mu gatuza naho ahandi hose gifite ibara ry'umukara. Kigira inzara ndende kandi gikunda kuba kiri mu ishyamba ntikigira urusaku kandi nticyangiriza ibintu.

Mu mashyamba usangamo ubwoko butandukanye bw'inyoni. Akenshi zo ntizikunda kuba ziri mu biti bisanzwe, ahubwo zigira ku ndabo cyangwa ibindi biti biraba, kugira ngo zijye zishora umunwa wazo mu ndabyo maze zikuremo ubuki ari bwo buzitunga. Ni ko inyoni nyinshi zibayeho.

Inyoni ni akanyamaswa keza kandi katagira icyo kangiza gakunda kwibera ku ndabo kuko ari ho kabona ibyo kurya, kaba gafite umunwa muremure gashora mu rurabyo, kagakuramo ubuki bugatunga.

Mu Rwanda ingagi zihabwa agaciro cyane, akenshi iyo ugiye nko muri pariki y'ibirunga uhahurira n'abakerarugendo baje kuzisura bagasiga amafaranga ateza imbere igihugu binyuze muri ubwo bukerarugendo bityo igihugu kikabona ubushobozi bwo kwihaza mu bindi gikeneye.

Mu mashyamba ndetse mu bihuru cyane cyane, usangamo inyamaswa z'ubwoko bugiye butandukanye. Hari izitwa ibitera, ziba zijya kumera nk'inkende, zifite amaboko abiri n'amaguru abiri, zishobora guhagarara kuri abiri zikareba hejuru. Ziba zifite imirizo miremire n'ubwoya bwinshi bw'umukara.

Inyoni ziba mu bwoko butandukanye, harizo ubona ukabona zitangaje kuko zifite wenda uburyo ziteye butamenyerewe, n'iyo ubonye ifite amababa manini ndetse na yo iri mu mabara atandukanye, wumva utangaye kuko akenshi ntizikunda kugaragara mu Rwanda.

Nta kabuza, buri munyarwanda wese azi ko habaho imbeba zurira ibiti, akenshi ziba zifite imirizo miremire, kandi ntizikunda kuba mu ngo, ziba zibera mu kinani, kuko abaturage badakunda kuzorora.

Imbeba n'akanyamaswa gafite amaguru ane. Kagira amatwi maremare ajya kumera nk'ay'urukwavu ndetse kaba gafite ubwoya ku mazuru ndetse n'ahandi hose ku mubiri, kagira umurizo muremure, gakunda kwangiza ibikoresho byinshi byo mu rugo.

Mu bwoko bwinshi bw'ibitaruka ikizwi cyane ni igikeri, hari ibindi bizwi nk'imitubu iba ifite amabara ku mubiri cyane cyane yiruka yo idafite amaga, ikunda kugenda ku musozi kuko akenshi ntikunda no kuba mu mazi, gusa ifite ubushobozi bwo kuba ku musozi, ku butaka, ahantu hava izuba ryinshi, ariko no mu mazi iyo ihagijye ntacyo iba.

Umutubu ni igisimba kiba mu misozi no mu mazi, kiba gifite amabara atandukanye, akenshi uba usanga gifite uruhu runyerera cyane ku buryo iyo izuba riruvuyeho ubona ruri kubengerana.

Mu mashyamba habamo ubwoko bugiye butandukanye bw'inyoni, zikunda kwibera mu biti, hari izo ubona zikaba zitangaje kuzireba, nk'ifite amababa y'ubururu, umunwa ufite ibara ry'umutuku n'umuhondo n'amaguru y'umukara haba kandi n'iziba zifite imirizo miremire ubona itangaje.